Ibiganza by'umuntu birimo imiti yo kwa muganga biriya ni ibinini bifunze neza byananyoweho n'umurwayi.

Ahakoraniye imbaga y'abantu benshi bari bifatanyije mu bukangurambaga, hejuru hari abantu bari gususurutsa abantu, babaganiriza, babigisha ukuntu bagira ubuzima bwiza, ukuntu bafata ubuzima bwabo neza, bakoresha agakingirizo uko gakwiriye gukoreshwa.

Inzego z'ubuyobozi, abaturage baratanga ibitekerezo, bari kwigishwa, bari muri gahunda yo kwita ku buzima, barigishwa, baratanga ibitekerezo uko babyumva, bari muri gahunda nziza bahuje bose ibitekerezo n'intego.

Ubukangurambaga bugamije gutuma dusigasira ubuzima bwacu bwagejejwe mu mashuri, abanyeshuri na bo bafite iki cyapa kigaragaza yuko bamaganye ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.

Inzu nziza ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, abaganga begereye abaturage, ivuriro ry'amenyo hafi hariya rirahari, hino ibikorwa by'ubucuruzi na byo birahari, imyenda, hirya ibikorwa bifitanye isano n'amabanki.